Ikirango cy'umuryango kiri mu ibara ry'ubururu ariko gifite amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hirya turahabona ishusho, hagati hameze nk'aharimo umu mama n'umwana bashushanyishije ibara ry'umweru.

Ikirango kirimo ibara ry'ubururu ariko gifite amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hamwe muri aya magambo harimo U, N, W, F, P. Rero harimo n'igishushanyo gishushanyishije amabara y'umweru ubona ko ari udushushanyo twinshi tugiye dukurikiranye.

Umukobwa uri kuvoma, avomera mu ijerekani isa umuhondo, ijerekani iteretse mu ibase ebyiri, asa nk'usutamye, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda, harimo isa umukara n'isa ubururu.

Baricaye mu ntebe z'umutuku bambaye imipira y'icyatsi kandi bambaye imipira y'umweru, bose bambaye udupfukamunwa tw'umukara. Imbere yabo hari amazi mu gacupa. Ayo mazi agacupa gafite umufuniko usa ubururu, Ubona ko rwose bakurikiye nk'abari guhabwa inama.

Umukobwa yicaye ari guha abana amata, uwo umukobwa yambaye amaherena na rinete, yambaye ingofero y'umweru yambaye umupira w'umweru abana bambaye imipira ya oranje, inyuma yabo hahagaze abagabo umwe muri aba bagabo yambaye imyenda ya gisirikare afite amata mu ntoki.

Abapapa n'bamama bicaye hamwe imbere yabo hateretse amazi, afite umufuniko w'ubururu umumama yambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye ku idirishya hari rido, inyuma mu idirishya hari ibintu bifite amabara y'umuhondo.

Inzu ebyiri, imbere y'izo nzu hari umugabo, wambaye umupira w'umweru, asa nkaho yambaye ipantaro y'umukara, imbere ye hari amatafari aharunze, hasi hari ibitaka, harunze ibitaka byinshi, inzu ifite idirishya ry'ubururu n'urugi rw'ubururu; hari inzu ifite umuryango umwe n'idirishya rimwe.

Umupapa w'umuzungu ubona ko hari ibintu ari gusobanura. Ari kumwe n'abandi bapa babiri ndetse n'abakobwa babiri. Abakobwa nabo n'abazungu. Uri kubona mbere yabo hari icupa ry'amazi risa ubururu. Hirya yabo hari icyapa cyanditseho amagambo yandikishije umweru, ariko yanditse ku cyapa kirimo ibara ry'ubururu na cyo.

Abantu icyenda harimo abagabo batandatu n'abagore batatu, abagabo batatu muri abo bambaye linete, abandi batatu basigaye nta linete bambaye, abagore babiri bambaye linete umugore umwe nta linete yambaye, abagore babiri bambaye ingofero z'umukara umugabo umwe yambaye ingofero y'umukara iriho utuntu tw'umweru, undi mugabo umwe yambaye ingofero y'umweru bose uko ari abantu icyenda bambaye inkweto zifunze.

Icyapa kiriho amabara y'icyatsi ndetse n'umweru n'andi mabara y'umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo ryanditsemo amagambo, kuri icyo cyapa turabonaho ishusho y'umumama, ufite imisatsi y'umukara ifunze, ubona ko yiteye make up.

Umumama uteruye umwana, mama arishimye ndetse n'uyu mwana arishimye, ni umwana ubona ko akiri mutoya, umumama afite imisatsi ya natirere y'umukara, ndetse uyu mu mama rwose urabona ko ari kureba umwana we bimunejeje, umumama yambaye umupira w'umweru.

Umugabo wicaye yitangiriye itama, yambaye imyenda yacitse, yambaye ingofero y'umukara, yegamye ku gikuta gisa umuhondo, igikuta ubona ko gisa nk'igishaje, yambaye urukweto rumwe, yicaye hasi.

Umwarimu wambaye itaburiya n'agapfukamunwa ari kumwe n'umwana wambaye umupira w'icyatsi ari kumwereka ibintu biri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, inyuma yabo hari umumama wambaye linete yambaye umupira w'umweru ufite umusatsi w'umukara, ndetse n'undi mumama w'umuzungu ufite agatambaro mu ijosi, hirya yabo hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro n'isaha, inyuma yaho hari ikibaho cy'umukara cyanditseho umukoro wo mu rugo.

Ni umusore wambaye umupira w'umweru w'inzobe, afite akadodo mu ntoki, agafatishije mu menyo, afite imisatsi y'umukara, asa nk'uhumbije amaso, gusa ijisho rimwe rirebamo gahoro, afite ingoyi z'umukara, afite ugutwi kumwe niko kurimo kuragaragara, arishimye, urabona ko ari guseka, afite amaso y'umweru.

Umumama n'umupapa bicaye hamwe ubona ko umupapa hari ibintu ari kwereka umumama muri terefone ye, umumama yambaye ishati y'ubururu yambaye baji mu ijosi ifite umugozi w'umweru imbere yabo ku meza, hari akantu k'umukara kahateretse, umupapa afite imisatsi y'umweru n'ubwanwa bw'umweru.

Ni umupapa ubona ko ari kumwe n'umuganga w'umumama, uyu mupapa yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye isaha ku kaboko ndetse n'uyu mumama yambaye isaha ku kaboko isa umukara, uyu mumama kandi yambaye n'imyenda isa ubururu.

Umumama ubona ko akuze, ari kumwe n'umupapa bari kuganira bishimye, umumama yasetse, umupapa afite impeta ku rutoki yambaye umupira w'umweru ufite amaboko, umumama yambaye umupira w'umutuku, ufite amaboko, bari kurya imbuto, bari kurira ku isahane y'umweru igaramye.

Umukobwa w'inzobe afite imisatsi y'imikara ari kumwe n'umukecuru ufite imisatsi y'umweru ubona ko bishimye, umukecuru yambaye ishati y'umweru umukobwa yambaye ishati y'icyatsi ifite ibara ry'umweru kukora ndetse n'ibara ry'umweru ku maboko.

Muganga ari gutera urushinge umumama, muganga yambaye agapfukamunwa, umumama yambaye agapfukamunwa afite rinete ku mupira, yambaye isaha ku kaboko, muganga n'umumama bose bambaye imipira y'umweru.

Bari kwa muganga, ni abaturage babona ko harimo abakecuru n'abasaza, imbere yabo hari umugabo uri kubaganiriza, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, hari abandi bagabo bicaye imbere yabo, inyuma yabo hari ikibaho ubona ko kiriho icyapa cyanditseho amagambo yandikishije umukara n'ubururu.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umuhondo, munsi yiyo nyubako haparitse imodoka eshatu, imbere yiyo nyubako tuharabona icyapa cyerekana ko ari kwa muganga, icyo cyapa gisa umweru cyanyandikishijemo amabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Kwa muganga hari ibitanda bibiri, ibyo bitanda nta murwayi n'umwe ubiryamyeho. Biri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bifite amapine asa umukara n'umweru. Hirya yabyo hari amarido ndetse n'imbere y'igitanda kimwe hari idirishya.

Hari intebe z'umukara, hari abantu benshi bari ku murongo harimo abapapa, abamama ndetse n'urubyiruko, hari intebe y'urubaho, imbere y'iyo ntebe hari umuntu wicaye mu kagare, urabona ko aha bari hameze nk'aho ari kwa muganga bari kubavurira kuko hari abantu bahicaye, urabona ko ari bo bari kwakira bano bantu batonze umurongo.

Inyubako yo kwa muganga, imbere yaho hari ibirabyo, inyubako ifite amadirishya asa umweru, inyubako ifite ibara ry'umuhondo, yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Inzu yo kwa muganga, imbere yaho haparitse imodoka irimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku. Iyo nzu imbere hari ibirabyo bibiri ubona ko biri mu muryango, hari icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweruru. Icyo cyapa gisa umutuku, imbere hari igipangu, imbere y'icyo gipangu haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru.

Umupapa ndetse n'umwana w'umusore, ni umwana w'umusore ubona yari ari muri siporo, yambaye isengeri y'umutuku, uwo mupapa yambaye ga yambaye n'ijire ubona ko amufashe akaboko umwana asa nk'uwagize ikibazo.

Abasore babiri umwe ubona ko yazamuye amaguru nkaho bari ku mumasa amaguru, uwo bari ku masa yambaye amasogisi y'umweru, hanyuma ibara ry'umukara yambaye n'umupira w'umukara, ndetse uwo mugabo yashyizeho akaguru yambaye isaha ku kuboko ndetse umugabo bashyizeho akaguru yambaye n'umupira w'umukara.

Umuganga imbere ye hari umurwayi ubona ko afite ikibazo mu maboko kuko baramupfutse, umurwayi uko bigaragara yambaye ishati y'amaboko maremare, aricaye, ndetse uwo muganga yambaye imwe mu myenda ifite ibara ry'umukara, afite agapfuko mu ntoki ubona ko ari gupfuka umurwayi.

Umusore wasa nk'uvuye muri siporo, yambaye umupira w'umweru, yambaye ''ecouteurs'' z'umweru mu matwi; asa nk'uraramye areba hejuru, ari kunywa amazi, agacupa ari kunyweramo amazi gafite umunwa usa ubururu, yambaye n'agakomo ku kaboko.

Umukobwa muremure unanutse yazamuye amaboko, ahuza intoki yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru kameze nk'agaciye inyuma mu mugongo, uyu mukobwa afite imisatsi miremire isa shokora n'indi isa umukara.

Ni umugabo utera icyuma b'inzobe ufite udukomo ku maboko, wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara ibyobyuma bifite amapine asa umukara ndetse icyo cyuma afashe gisa umweru.

Umupapa ubona ko ashaje, yambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara ku maboko. Ari ahantu hari ibiti byinshi cyane, ubona ko ari gushaka umuti. Ibyo biti bifite ibara ry'icyatsi rimwe ryerurutse, irindi ubona ko ari ibara risa nk'iryijimye.

Imiti gakondo, harimo igikakarubamba, hari agacupa kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, kandikishijeho amabara y'umutuku; ni umuti usa icyatsi, ubona ko ufite amahwa.

Umuti gakondo tuzi ko mu bihugu bimwe na bimwe dusanzwe twifashisha umuti gakondo. Rero uyu ni umwe mu muti wifashishwa mu buvuzi gakondo uri mu ibara ry'icyatsi amababi yayo asa nk'aho ari magufiya, ni umuti mwinshi urunze ahantu hamwe.

Umuco Nyarwanda dusanzwe twifashisha ku barwayi umuravumba os icyatsi ibibabi bifite ishusho imeze nk'umutima wi ku biti biregera bizamuka uri hagati y'ibipangu bibiri igipangu kimwe cy'amatafari gisanka ari kigufi kinini kirekire n'ibiti byinshi birunnze ahantu hamwe mukobyezeho umuti.

Ni umuti ubona ko uri mu gacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, ariko inyuma kuri ako gacupa hariho amagambo yanditseho ibirango byandikishije ibara ry'icyatsi, ndetse n'ibindi birango byandikishije ibara ry'umweru.